Urakaza neza ku rubuga rw'irembo rudufasha mu bintu byinshi bitandukanye kuba washaka ibyangombwa by'ubutaka, ibyangombwa byo kwandikisha abana, ubwisungane mu kwivuza n'ibindi bintu byinshi bitandukanye kuba wakandikisha ibinyabiziga no kureba amanota watsindiye.